Indabyo ni nziza cyane abantu barazikunda. Usanga zaragiye zimeza ahantu hatandukanye, ugasanga abantu bari kuzirandura bakajya gutera kuko ziba nziza bitewe n'ubwoko bwazo.

Indabyo ni nziza cyane, bitewe n'ubwoko wahinze, usanga indabyo zimeze neza cyane, ugasanga zimeze neza, bitewe n'uko wazikoreye, hari abantu bazikorera bitewe n'uko bameze, kubera aba rabakire bakazitera neza, bakazishyiramo abakozi bakazikorera neza, bakanazibagarira bakaziconga, ugasanga zimeze neza.

Hano hari ibyatsi bimeze neza cyane, usanga harimo imiti myinshi itandukanye, ku buryo iyo umwana yarwaye ukajya kumuvuza mu kinyarwanda, bakakurangira imiti, bakakurangira n'aho iri, bakakubwira amoko yose y'imiti, wajya ahantu hari ikinani, ukabonamo imiti umwana wawe agakira.